Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi ndetse n'ibirungo, aho abaturage babyitaho kugira ngo bikure neza, bityo bazabikoreshe mu ngo zabo bakomeze kugira ubuzima bwiza kandi basagurire n'amasoko Mpuzamahanga.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'imirama y'imiti ndetse n'amafumbire mvaruganda akoreshwa kugira ngo ibihingwa bikomeze gukura neza, bityo umusaruro ukomeze kwiyongera kugira ngo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi abaturage bisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo.

Ahabereye igikorwa cy'umuganda, cyitabiriwe n'abaturage b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, aho bafite amasuka mu ntoki zabo bakaba bari guca amaterasi y'indinganire, kugira ngo akumire amazi ashobora gutwara imyaka.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye harimo ibigori, ibirayi ndetse n'ibindi, aho abaturage bari gushyiraho ifumbire mvaruganda kugira ngo umusaruro uziyongere bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima utema ibyoku kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo ibigori, ibijumba, ibirayi ndetse n'ibindi, aho abaturage bari kubyitaho bashyiraho ifumbire mvaruganda kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kujya mu ngo zabo.

Ahabereye igikorwa cy'umuganda cyitabiriwe n'abaturage b'ingeri zitandukanye, harimo: abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore, ndetse n'abakobwa. Aho bishyize hamwe bakaba bari guhingira umuturage utishoboye, kugira ngo nawe akomeze kugira imibereho myiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi harimo ibigori, ibijumba, ibirayi ndetse n'ibindi, aho abaturage bari gushyiraho ifumbire mvaruganda kandi bakabitera umuti kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Ahabera ubucuruzi bw'imirama y' ibihingwa bitandukanye ndetse n'amafumbire mva ruganda akoreshwa kugira ngo umusaruro w'ubuhinzi ukomeze kwiyongera bityo abaturage bakomeze kwiteza imbere kandi banazamure ubukungu bw'igihugu muri rusange.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo imbuto, ikawa ndetse n'icyayi, aho abaturage babikorera, bakabivomerera kandi bakabitera umuti kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi bisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'imirama y'ibihingwa ndetse n'amafumbire mvaruganda akoreshwa kugira ngo umusaruro uva mu bihingwa ukomeze kwiyongera bityo abaturage bakomeze kwiteza imbere kandi binazamure ubukungu bw'Igihugu muri rusange.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, aho abaturage bari gushyiraho ifumbire mvaruganda kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro ukomeze kwiyongera, uzajyanwe ku masoko mpuzamahanga kandi abaturage banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye harimo ikawa, imboga rwatsi ndetse n'ibirungo by'ubwoko bwinshi, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bizagemurwe ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurire n'ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko bwinshi butandukanye harimo ibishyimbo ndetse n'ibigori, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bizasarurwe bijyanwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira imibereho myiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo amasaka, ibigori ndetse n'ingano, aho byitabwaho kugira ngo bikure neza bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye harimo imboga rwatsi, ibirungo, ingemwe z'imbuto ndetse n'ibindi, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye harimo ibitoki ndetse n'ibindi bihingwa, aho abaturage babisarurira mu mirima yabo bakaza kubigurishiriza muri iri soko kugira ngo bakomeze kwiteza imbere kandi binazamure ubukungu bw'Igihugu.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto nk'amavoka ndetse n'ibindi, aho abaturage baza kubigurishiriza muri iri soko kugira ngo bakomeze kwiteza imbere, bityo ubukungu bw'igihugu bugakomeza kuzamuka.

Umurima uteye n'ibyokurya by'ubwoko bwinshi butandukanye harimo imbuto nk'inanasi ndetse n'ibindi byinshi, aho abaturage babyitaho kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo ibitoki, ibijumba, ibirayi ndetse n'ibindi, aho biri gusarurwa kugira ngo bijyanwe ku masoko mpuzamahanga, bityo ubukungu bw'igihugu bukomeze gutera imbere kandi abaturage bakomeze kugira imirire myiza.

Umurima uberamo ubuhinzi bw'ibyo kurya bitandukanye, harimo imbuto ndetse n'imboga aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bakomeze kubikorera neza bityo bikure bizagemurwe ku masoko kandi banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage babikorera kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bizasarurwe, bigemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye, harimo ibitoki, ibirayi, ibijumba, aho abaturage babisarura mu ngo zabo, bakaza kubigurishiriza muri iri soko, kugira ngo bakomeze kwiteza imbere, kandi banazamure ubukungu bw'igihugu.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ibitoki, aho abaturage babikorera neza kugira ngo birusheho gukura bityo umusaruro uzabe mwinshi uhagije bigemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zawe.

Umuririma uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye harimo ibitoki, ibijumba, ibirayi ndetse n'ibindi, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya bitandukanye, harimo imyumbati ndetse n'ibijumba, aho biri gusarurwa n'abaturage kugira ngo babigemure ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi harimo ibitoki, ibijumba, ibirayi ndetse n'ibindi bitandukanye, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo ibitoki, ibirayi, ibijumba ndetse n'ibindi, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo umusaruro ukomeze kwiyongera bityo bizagurishwe mu masoko mpuzamahanga, kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga rwatsi ndetse n'ibirungo, aho byitabwaho n'abaturage bakabicogera bakabisasira kandi bakabivomerera, kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi bisagurira ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo: ibigori, ibishyimbo ndetse n'ibindi bihingwa, aho biri gusarurwa kugira ngo bigemurwe ku masoko Mpuzamahanga, kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi ndetse n'imbuto, aho abaturage babikorera neza, kugira ngo birusheho gukura, bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga, kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo imboga rwatsi nk'amashu ndetse n'ibirungo by'ubwoko butandukanye, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bizagemurwe ku masoko, kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Ahabereye igikorwa cy'umuganda, cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo: abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa; aho bose bari gutera ibiti bizazana umwuka mwiza mu kirere kandi bigakomeza ubutaka, kugira ngo bwe gutwarwa n'isuri.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga, imbuto ndetse n'ibirungo, aho biri kwitabwaho n'abaturage babivomerera kandi bagashyiraho amafumbire mvaruganda kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro ukomeze kwiyongera.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo icyayi, ndetse n'ikawa, bimwe mu bihingwa bigemurwa ku masoko mpuzamahanga, bityo igihugu kigakomeza gutera imbere. Muri uyu murima kandi, harimo amazi atemba, yifashishwa mu kuhira ibi bihingwa.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi harimo: ihene, intama ndetse n'udukwavu, aho byitabwaho kugira ngo bikomeze gukura neza, bigakorerwa isuku kandi bigakingirwa, kugira ngo umusaruro ubikomokaho ukomeze kwiyongera.

Ahabereye igikorwa cy'umuganda, cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo: abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa. Bafite amasuka mu ntoki zabo, bari gutera ibiti ku muhanda, kugira ngo bizazane umwuka mwiza mu kirere.

Ahabereye igikorwa cy'umuganda cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, aho bafite amasuka mu ntoki zabo, bakaba bari guca amaterasi y'indinganire azakumira amazi yatwara imyaka.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi harimo imboga rwatsi ndetse n'ibirungo aho abaturage bari kubisarura kugira ngo babijyane ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye harimo imboga rwatsi, ibirungo, imbuto ndetse n'ibindi, aho byitabwaho n'abaturage babivomerera kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Ahabereye igikorwa cy'umuganda cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, aho bishyize hamwe bakaba bari gukora isuku mu mihanda kugira ngo bakumire umwanda.

Ahabereye igikorwa cy'umuganda, cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, aho bafite amasuka mu ntoki zabo ndetse n'ibitiyo, bakaba bari guca amaterasi y'indinganire, azakumira amazi kugira ngo adatwara imyaka.

Umurima uteyemo ibyo kurya bitandukanye, harimo ibigori, ibijumba ndetse n'ibitoki, aho abaturage bari kubisarura kugira ngo bajye kubigurisha ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, aho abaturage bari kubisarura kugira ngo babigemure ku masoko Mpuzamahanga, bityo ubukungu bw'igihugu bukomeze kwiyongera, kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima ufumbirwamo ingemwe z'ibihinga bitandukanye aho abahinzi baza kubivomerera kugira ngo bikomeze gukura neza bityo bizagurishwe ku masoko mpuzamahanga, abaturage bakomeze kwiteza imbere kandi banazamura ubukungu bw'igihugu.

Ahabereye igikorwa cy'umuganda cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, aho bafite amasuka mu ntoki zabo, bakaba bari gukora isuku ku mihanda bakumira umwanda.

Ahabereye igikorwa cy'umuganda cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, aho bari gucukura kugira ngo bakore aho bazajya bajugunya imyanda, bityo umwuka mwiza ukomeze kuboneka.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo ibitoki, ibijumba, ibirayi ndetse n'ibindi, aho biri kwitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi bisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga rwatsi, ibirungo ndetse n'imbuto, aho abaturage babikorera neza babisasira kugira ngo bikomeze gukura bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurira ibyo gukoresha mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo ibigori, ibishyimbo, ibirayi ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage babikorera, bakabisasira kandi bakabivomerera kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi bisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye harimo imboga ndetse n'imbuto nk'inyanya, karoti, intoryi ndetse n'ibindi. Aho abaturage babisarura mu ngo zabo, bakaza kubigurishiriza muri rino soko kugira ngo bakomeze kwiteza imbere.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo: imboga, imbuto, ndetse n'ibirungo, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurishiriza muri iri soko kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo kandi banazamura igihugu muri rusange.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo ibishyimbo, ibigori, ibijumba, umuceri, amasaka ndetse n'ingano, aho abaturage babisarura mu mirima yabo, bakaza kubigurishiriza muri aya masoko kugira ngo bakomeze kwiteza imbere kandi banazamure ubukungu bw'igihugu.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye harimo ibitoki, ibijumba, ibirayi ndetse n'ibindi, aho abaturage babisarura mu mirima yabo bakaza kubigurisha kugira ngo bakomeze kwiteza imbere kandi banazamure ubukungu bw'igihugu muri rusange.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ibihingwa bitandukanye, harimo: umuceri, ibishyimbo, amashaza, ifu y'akawunga ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurisha kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo ibigori ndetse n'ibijumba, aho abaturage bari gushyiraho ifumbire mvaruganda kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro wiyongere kugira ngo bigemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye harimo imboga, imbuto ndetse n'ibirungo, aho abaturage babisarura mu mirima yabo bakaza kubigurisha kugira ngo bakomeze kwiteza imbere, kandi banazamure ubukungu bw'igihugu muri rusange.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya byinshi bitandukanye, harimo ibishyimbo, amashaza, umuceri, akawunga, amasaka ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage babisarura mu mirima yabo, bakaza kubigurishiriza muri aya masoko kugira ngo bakomeze kwiteza imbere kandi banazamure ubukungu bw'igihugu.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo ibigori, ibitoki, ibijumba ndetse n'ibindi, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo babone ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira imibereho myiza kandi banasagurire n'amasoko.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo ibitoki, ibijumba ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage babyitaho bakabikorera kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bazabone icyo kurya mu ngo zabo, kandi banasagurire amasoko mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga rwatsi, ibijumba, ibirayi ndetse n'ibitoki, aho abaturage babikorera neza kugira ngo bikomeze gukura bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi ndetse n'ibirungo, aho abaturage babikorera kugira ngo bikomeze gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko Mpuzamahanga, na bo bisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Akarima k'igikoni gakoreshejwe ibiti ndetse n'imifuka, aho gateyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye nk'imboga rwatsi ndetse n'ibirungo, bikoreshwa n'abaturage mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza kandi banasagurire amasoko.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo ibitoki, imboga rwatsi ndetse n'imbuto, aho abaturage babikorera kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo, gutyo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ahabereye igikorwa cy'umuganda, cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, aho bishyize hamwe bakaba bari gutera ibiti bizajya bizana umwuka mwiza mu kirere.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye harimo imboga ndetse n'ibirungo, aho abaturage babikorera kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ibitoki, aho abaturage babikorera kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga, abaturage bakomeze kwiteza imbere kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima utema ibyo kurya by'ubwoko bwinshi harimo ibigori, imboga rwatsi, imbuto ndetse n'ibindi bitandukanye, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga, kandi banisagurire ibyo kujya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo ibijumba, ibitoki, ibirayi ndetse n'ibigori, aho abaturage babikorera kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo ibigori, ibijumba ndetse n'ibitoki, aho abaturage babyitaho kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga rwatsi ndetse n'ibirungo, aho abaturage babyitaho, bakabikorera kugira ngo bikomeze gukura neza, kugira ngo bazamure ubukungu bw'igihugu muri rusange, kandi baniteze imbere mu ngo zabo, barya indyo yuzuye.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage babisarura mu mirima yabo bakaza kubigurisha kugira ngo bakomeze kwiteza imbere kandi banazamure ubukungu bw'Igihugu bityo bakomeze kugira imibereho myiza.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye harimo imbuto, amaronji, pome, imyembe ndetse n'ibindi, aho abaturage babisarura mu mirima yabo bakaza kubigurishiriza muri aya masoko kugira ngo bakomeze kwiteza imbere kandi binazamure ubukungu bw'Igihugu.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto n'ibirungo, aho abaturage babisarura mu mirima yabo bakaza kubigurisha kugira ngo bakomeze kwiteza imbere kandi banazamure ubukungu bw'Igihugu muri rusange bityo bagakomeza kuzamuka.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga rwatsi, ibirungo ndetse n'imbuto, aho biri kwitabwaho n'abaturage babisasira kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bizagurishwe ku masoko mpuzamahanga kandi bisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Akarima k'igikoni gateyemo ibyokurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga rwatsi ndetse n'ibirungo, aho abaturage babikorera kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo babikoreshe mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira imibereho myiza, birinda indwara zituruka ku mirire mibi.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko bwinshi butandukanye harimo ibigori, amasaka, ibishyimbo ndetse n'ibijumba, aho abaturage bari kubyitaho babisasira kandi bakabivomerera, bityo bigakura neza kugira ngo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi bisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage babisarura mu ngo zabo bakaza kubigurishiriza muri aya masoko kugira ngo bakomeze kwiteza imbere kandi banazamure ubukungu bw'igihugu muri rusange.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga, imbuto ndetse n'ibirungo, aho byitabwaho n'abaturage, babisasira kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurira ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga rwatsi ndetse n'imbuto, aho abaturage babyitaho kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurira ibyo kurya mu ngo zabo.

Mu umurima uteyemo ibyo kurya harimo imboga rwatsi, ibishyimbo, ibijumba ndetse n'ibirayi, aho abaturage babyitaho bari kubikorera kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima utunganyirizwamo ingemwe z'ubwoko bwinshi butandukanye, aho abaturage bari kuzikorera kugira ngo zikomeze gukora neza, bityo zizatange umusaruro uhagije, ubukungu bw'igihugu bukomeze kwiyongera kandi abaturage barushaho gutera imbere.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye harimo intoryi, karoti, inyanya ndetse n'ibindi birungo bitandukanye, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurishiriza umusaruro wabo, kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo, kandi banazamure igihugu muri rusange.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye harimo imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage babisarura mu ngo zabo, bakaza kubigurishiriza muri iri soko kugira ngo bakomeze kwiteza imbere kandi banazamure ubukungu bw'igihugu.

Akarima k'igikoni gakoze mu mifuka ndetse n'ibiti, aho abaturage bahingamo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imbuto, imboga rwatsi ndetse n'ibirungo bakoresha mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira imibereho myiza banirinda indwara zituruka ku mirire mibi.

Ahabera ubuhinzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye: harimo imboga rwatsi, ibirungo ndetse n'imbuto, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga, kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ahabera ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo imboga rwatsi, ibirungo ndetse n'imbuto, aho abaturage babisarura mu ngo zabo bakaza kubigurisha kugira ngo bakomeze kwiteza imbere, kandi banazamure ubukungu bw'igihugu muri rusange.

Umurima utunganyirizwamo ingemwe z'ibihingwa by'ubwoko butandukanye, aho abaturage bari kuzikorera kugira ngo zikomeze gukura neza, bityo zizagurishwe hirya no hino abaturage bakomeze kuzamura ubukungu bwabo, biteza imbere kandi bazamura n'ubukungu bw'Igihugu.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye harimo: ibitunguru, ibirayi ndetse n'imbuto z'ubwoko bwinshi aho abaturage babitunganya bakaza kubigurishiriza muri iri soko kugira ngo bakomeze gutera imbere bityo ubukungu bw'Igihugu bukomeze kuzamuka.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye harimo, imbuto, imboga ndetse n'ibirungo aho abaturage babisarura mu ngo zabo bakaza kubigurishiriza muri iri soko kugira ngo bakomeze kwiteza imbere kandi banazamure ubukungu bw'igihugu.

Ubuhinzi bw'uturima tw'igikoni, aho bateramo imboga z'ubwoko butandukanye, ibirungo ndetse n'imbuto, kugira ngo abaturage bajye babirya mu ngo zabo, bityo babashe kugira ubuzima bwiza butarimo indwara cyangwa imirire mibi.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya higanjemo imbuto, aho abaturage b'ingeri zitandukanye baza kugura ndetse no kugurishiriza muri iri soko kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo ndetse bateze imbere n'igihugu muri rusange.

Umurima uteyema ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga, imbuto ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage babyitaho kugira ngo bikure neza bityo bazabigemure ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto nk'amacunga, amaronje, pome, imyembe ndetse n'ibindi, aho abaturage babisarura mu mirima yabo bakaza kubigurishiriza muri iri soko kugira ngo bakomeze kwiteza imbere kandi barusheho kugira imibereho myiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga rwatsi ndetse n'ibirungo, aho abaturage babikorera bakabisasira kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage baza kubigurishiriza muri rino soko, kugira ngo bakomeze kuzamuka bityo ubukungu bw'Igihugu bugakomeza kwiyongera kandi bagatera imbere muri rusange.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga rwatsi, ibirungo ndetse n'imbuto, aho abaturage babikorera kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bizagemurwe ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo imbuto z'ubwoko bwinshi, harimo amacunga, imyembe, imineke ndetse n'ibindi, aho biri gusarurwa kugira ngo bigemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi abaturage banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima butarimo indwara.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye, harimo intoryi, karoti, ibitunguru, amavoka ndetse n'ibindi, aho abaturage bayisarura mu mirima yabo, bakaza kubigurishiriza muri iri soko kugira ngo biteze imbere kandi binazamure ubukungu bw'Igihugu.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga rwatsi, ibirungo ndetse n'imbuto, aho abaturage babyitaho bakabisasira kandi bakabivomerera kugira ngo bikomeze gukura neza bityo bazabone ibyo kurya mu ngo zabo kandi banasagurire amasoko.

Ahacururizwa ibihingwa by'ubwoko bwinshi bitandukanye, aho abaturage babisarura mu mirima yabo, bakaza kubigurisha kugira ngo bakomeze kwiteza imbere kandi banazamure ubukungu bw'igihugu muri rusange bityo imibereho myiza igakomeza kwiyongera.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye, harimo imimboga rwatsi, karoti ndetse n'imbuto z'ubwoko bwinshi, aho abaturage babisarura mu ngo zabo, bakaza kubigurishiriza muri rino soko kugira ngo bakomeze kwiteza imbere kandi banazamure ubukungu bw'Igihugu.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga rwatsi ndetse n'imbuto, aho abaturage babisarura mu ngo zabo bakaza kubigurishiriza muri iri soko kugira ngo bakomeze kwiteza imbere, kandi banazamure ubukungu bw'Igihugu.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko bwinshi, harimo imbuto ndetse n'imboga, aho abaturage babisarura mu ngo zabo bakaza kubigurisha kugira ngo bakomeze kwiteza imbere kandi banazamure ubukungu bw'Igihugu muri rusange.

Ahateye ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo imbuto ndetse n'imboga, aho biri kwitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bizagemurwe ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo imboga rwatsi ndetse n'ibirungo by'ubwoko bwinshi, aho abaturage bari kubikorera kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imbuto nk'ibinyomoro, imyembe, amapera ndetse n'ibindi, aho abaturage babikorera kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro uzagemurwe mu masoko mpuzamahanga kandi bisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, butarimo indwara.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye harimo imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage babisarura mu ngo zabo, bakaza kubigurishiriza muri iri soko kugira ngo bakomeze kwiteza imbere kandi banazamure ubukungu bw'igihugu.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo ibishyimbo, ibijumba ndetse n'ibindi byinshi, aho abaturage babikorera kugira ngo bikomeze gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye, harimo imboga, imbuto z'ubwoko bwinshi ndetse n'ibindi, aho abaturage babisarura mu mirima yabo, bakaza kubigurishiriza muri rino soko kugira ngo bakomeze gutera imbere bityo ubukungu bw'igihugu bukomeze kuzamuka.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi, harimo ibirungo ndetse n'imboga rwatsi, aho byitabwaho n'abaturage bakabisasira kandi bakabivomerera kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro wabyo ukagemurwa ku masoko Mpuzamahanga kandi bakisagurira ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ku ivomero rusange aho abaturage b'ingeri zitandukanye, harimo urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, n'abana bakiri bato, bazana ibikoresho byabugenewe kuvoma amazi meza ava muri robine. Iruhande rw'ivomero hateye ibimera: nk'ibigori, ibijumba ndetse n'ibirayi.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo ibigori, ibirayi, ibijumba ndetse n'ibindi, aho biri kwitabwaho n'abaturage babivomerera kandi bakabisasira kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi bisagurira ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, aho abaturage bavomerera bakoresheje amazi kugira ngo ibihingwa bikomeze gukura neza bityo bizasarurwe, bijyanwe ku masoko mpuzamahanga, kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko bwinshi butandukanye, aho biri kuvomererwa hakoreshejwe amazi kugira ngo umusaruro ukomeze kwiyongera, bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi abaturage bisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage babivomerera kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bizasarurwe bigemurwe ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurire n'ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo ibigori, ibijumba, imboga rwatsi ndetse n'ibirungo, aho biri kwitabwaho n'abaturage babivomerera kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro uziyongere ujyanwe ku masoko mpuzamahanga, kandi abaturage banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga rwatsi ndetse n'ibirungo, aho abaturage bari kubyitaho bakabivomerera bakoresheje amazi kugira ngo bikomeze gukura neza bityo bazabone ibyo kurya mu ngo zabo kandi banasagurire amasoko.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo imboga rwatsi, ibigori, ibirungo ndetse n'imbuto, aho biri kwitabwaho n'abaturage babivomerera kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banarusheho kurya indyo yuzuye mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo: ibishyimbo, ibijumba, ibirayi, ndetse n'ibindi. Aho biri kwitabwaho n'abaturage babivomerera, kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bazabashe kwihaza mu ngo zabo, kandi banasagurire amasoko mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga rwatsi, ibirungo ndetse n'imbuto, aho abaturage babyitaho bakabisasira kandi bakabivomerera kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi harimo ibijumba, ibirayi, ibitoki, ibirungo ndetse n'imbuto, aho abaturage babikorera bakabyitaho kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi bisagurira ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo icyayi ndetse n'ikawa, ibihingwa bigemurwa ku masoko Mpuzamahanga, bityo bigatuma ubukungu bw'igihugu bukomeza kwiyongera, kandi abaturage bakiteza imbere muri rusange.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo: ibishyimbo, ibijumba, ibigori ndetse n'ibirayi; aho byitabwaho n'abaturage bakabisasira kandi bakabivomerera kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo ibirayi, ibitoki, ibijumba ndetse n'ibindi, hagati harimo amazi akoreshwa mu kuvomerera iyi myaka kugira ngo ikomeze gukura neza bityo abaturage bakomeze kwiteza imbere.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo ibigori, ibishyimbo, amashaza ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage babyitaho kugira ngo bikure neza, bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga rwatsi ndetse n'ibirungo, aho abaturage babikorera kugira ngo bikomeze gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga, kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye harimo ibijumba, ibirayi, imyumbati ndetse n'ibindi, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo imbuto, imboga rwatsi ndetse n'ibirungo, aho abaturage babyitaho kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga, kugira ngo ubukungu bw'igihugu bukomeze kwiyongera.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye; harimo icyayi, ikawa, ibitoki ndetse n'ibindi, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo ibitoki, ibishyimbo, ibijumba, ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho abaturage babyitaho kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bazabikoreshe mu ngo zabo kandi banasagurire amasoko mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibyokurya by'ubwoko butandukanye harimo imboga rwatsi ndetse n'ibirungo, aho abaturage babyitaho kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi nk'ihene, intama, ingurube, aho byitabwaho n'abaturage kandi bigahabwa ibyo kurya bihagije, kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro wabyo ugakomeza kwiyongera, abaturage bagatera imbere.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi harimo ihene, ingurube ndetse n'intama, aho byitabwaho n'abaturage, bigakorerwa isuku ihagije, kandi bigahabwa ibyo kurya byinshi kugira ngo umusaruro ubikomokaho ukomeze kwiyongera, abaturage bakomeze kwiteza imbere.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi nk'inkoko, aho abaturage bayitaho, bakayahereza ibyo kurya bihagije kandi bakayakorera isuku kugira ngo umusaruro uyakomokaho ukomeze kuzamuka bityo bakomeze kwiteza imbere.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira amatungo magufi ndetse n'amaremare, harimo inka, ihene, intama, ingurube ndetse n'ibindi, aho biri guterwa inshinge kugira ngo umusaruro ubikomokaho ukomeze kwiyongera, bityo abaturage bakomeze kwiteza imbere.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi, harimo ihene, intama ndetse n'ingurube, aho byitabwaho n'abaturage babiha ibyo kurya bihagije, bakabikorera isuku kandi bakabitera inkingo, kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro ubikomokaho ugakomeza kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, harimo: inka, ihene, intama ndetse n'ibindi, aho byitabwaho bihabwa ibyo kurya bihagije, kandi bigakorerwa isuku kugira ngo umusaruro ubikomokaho ukomeze kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare harimo inka, ihene, ingurube ndetse n'intama, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro ubikomokaho ugakomeza kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare harimo: inka, ihene, intama ndetse n'ingurube, aho byitabwaho bigahabwa ibyo kurya bihagije kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro ubikomokaho ugakomeza kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, harimo inka, ihene, ingurube ndetse n'intama, aho byitabwaho n'abaturage bakabiha ibyo kurya bihagije kandi bakabikorera isuku kugira ngo umusaruro ubikomokaho ukomeze kwiyongera bityo abaturage biteza imbere.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi harimo ihene, intama ndetse n'ingurube, aho byitabwaho n'abaturage bakabiha ibyo kurya bihagije kandi bigakorerwa isuku kugira ngo umusaruro ubikomokaho ukomeze kwiyongera, bityo abaturage bakomeze kwiteza imbere.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse na maremare, harimo ingurube, ihene, intama, inka ndetse n'ibindi, aho byitabwaho bakabikorera isuku kandi bakabiha ibyo kurya bihagije kugira ngo umusaruro ubikomokaho ukomeze kwiyongera bityo abaturage bakomeze kwiteza imbere.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse na maremare harimo inka, ingurube, ndetse n'intama; aho byitabwaho bigahabwa ibyo kurya bihagije kandi bigakorerwa amasuku kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro ubikomokaho ukomeze kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi, harimo ingurube, ihene ndetse n'intama, aho byitabwaho bigahabwa ibyo kurya bihagije, bigakorerwa isuku kandi bigaterwa inkingo kugira ngo umusaruro ubikomokaho ukomeze kwiyongera bityo abaturage bakomeze kugira ubukungu.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi harimo ihene, intama ndetse n'ingurube aho abaturage babyitaho babihereza ibyo kurya bihagije, bakabikorera isuku kandi bakabikingiza kugira ngo umusaruro ubikomokaho ukomeze kwiyongera kandi bakomeze kwiteza imbere muri rusange.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare harimo inka, ingurube, ihene n'intama, aho abaturage babyitaho bakabihereza ibyo kurya bihagije kugira ngo bikomeze gukura neza kandi bakabikorera isuku, bityo umusaruro ubikomokaho ugakomeza kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi nk'inkoko, aho zitabwaho zigakorerwa isuku kugira ngo zitarwara indwara zituruka ku mwanda kandi zigahabwa ibyo kurya bihagije kugira ngo umusaruro uzikomokaho ukomeze kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi, ingurube, ihene ndetse n'intama, aho byitabwaho bigakorerwa isuku kandi bigahabwa ibyo kurya bihagije kugira ngo umusaruro ubikomokaho ukomeze kwiyongera, bityo abaturage bakomeze kwiteza imbere.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi nk'ingurube, ihene ndetse n'intama, aho byitabwaho bigakorerwa isuku ihagije kandi bigaterwa inkingo ndetse bigahabwa ibyo kurya bihagije kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro ubikomokaho ugakomeza kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi nk'inkoko, aho yitabwaho agahabwa ibyo kurya bihagije agakorerwa isuku kandi agaterwa umuti kugira ngo akomeze gukura neza bityo umusaruro uyakomokaho ugakomeza kwiyongera, abaturage bakiteza imbere kandi bikazamura n'ubukungu bw'Igihugu.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi nk'inkoko, aho zitabwaho, zigahabwa ibyo kurya bihagije kandi zigakorerwa isuku, kugira ngo zikomeze gukura neza, bityo umusaruro uzikomokaho nk'amagi ukomeze kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo, harimo inka, ndetse n'ingurube, aho byitabwaho, bigahabwa ibyo kurya bihagije, kandi bigakorerwa n'amasuku, kugira ngo birusheho gukura neza, bityo umusaruro ubikomokaho ukomeze kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare harimo inka, ingurube, ihene ndetse n'intama, aho byitabwaho bigahabwa ibyo kurya bihagije kandi bigakorerwa isuku, kugira ngo umusaruro ubikomokaho ukomeze kwiyongera kandi binazamure ubukungu bw'igihugu muri rusange.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse na maremare harimo inka, ingurube, ihene ndetse n'intama, aho byitabwaho kugira ngo bikomeze gukura neza kandi bigahabwa ibyo kurya bihagije kugira ngo umusaruro ubikomokaho ukomeze kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi, harimo ihene, intama ndetse n'ingurube, aho byitabwaho bigahabwa ibyo kurya bihagije kandi bigakorerwa isuku kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro ubikomokaho ugakomeza kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatongo magufi harimo ingurube, ihene, intama ndetse n'ibindi, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro ubikomokaho ugakomeza kwiyongera, abaturage bakiteza imbere kandi bikazamura n'ubukungu bw'igihugu.

Ahabera ubworozi bw'amatongo magufi ndetse n'amaremare, harimo inka, ingurube, ihene ndetse n'intama, aho byitabwaho n'abaturage, bigahabwa ibyo kurya bihagije kandi bigakorerwa isuku kugira ngo umusaruro ubikomokaho ukomeze kwiyongera kandi bizamure n'ubukungu bw'igihugu.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare harimo inka, ihene, intama ndetse n'ingurube, aho byitabwaho, bigahabwa ibyo kurya bihagije kandi bigakorerwa isuku kugira ngo umusaruro ubikomokaho ukomeze kwiyongera.

Mu rugo rw'umuturage aho bari kwita ku matungo magufi, bayahereza ibyo kurya bihagije kugira ngo arusheho gukura neza bityo umusaruro uyakomokaho ukomeze kwiyongera, abaturage barusheho gutera imbere kandi banateza Igihugu cyabo imbere.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi, harimo ihene, intama, ndetse n'inkwavu, aho abaturage babyitaho, bakabihereza ibyo kurya bihagije, kandi bakanabikorera isuku, kugira ngo umusaruro w'ibizikomokaho ukomeze kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi nk'ingurube, ihene ndetse n'intama, aho byitabwaho bigahaga ibyo kurya bihagije, kandi bigakorerwa isuku kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro ubikomokaho ugakomeza kwiyongera.

Mu nzira nyabagendwa, aho amatungo magufi harimo ihene, intama, ari kugenda arya ibyo kurya bitandukanye kugira ngo arusheho gukura neza bityo umusaruro uyakomokaho ukomeze kuba mwinshi.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi nk'inkoko, aho yitabwaho kandi agahabwa ibyo kurya bihagije, kugira ngo akomeze gukura neza bityo umusaruro uyakomokaho ugakomeza kwiyongera, kandi abaturage bagatera imbere muri rusange.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi harimo ihene, ingurube, intama, ndetse n'ibindi, aho byitabwaho n'abaturage bakabiha ibyo kurya bihagije, kandi bakabikorera isuku kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro ubikomokaho ugakomeza kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi nk'inkoko, aho yitabwaho agahabwa ibyo kurya bihagije kandi agakorerwa isuku ndetse agakingirwa indwara nyinshi kugira ngo akomeze gukura neza bityo umusaruro uzikomokaho ukarushaho kwiyongera.

Ahabera ubucuruzi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, harimo: ihene, inkoko, intama ndetse n'inka. Aho byitabwaho kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro ubikomokaho ugakomeza kwiyongera, kandi abaturage bakiteza imbere muri rusange.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi harimo ihene, intama ndetse n'ingurube, aho byitabwaho bigahabwa ibyo kurya bihagije, bigakorerwa isuku kandi bigaterwa inkingo kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro ubikomokaho ukarushaho kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, harimo ingurube, ihene ndetse n'intama, aho byitabwaho bigahabwa ibyo kurya bihagije kandi bigakorerwa isuku kugira ngo umusaruro ubikomokaho ukomeze kwiyongera bityo abaturage bakomeze kwiteza imbere.

Abaturage b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, basuye aborozi b'amatungo, amagufi ndetse n'amaremare, aho bari kureba uburyo yitabwaho kandi agahabwa ibyo kurya bihagije kugira ngo umusaruro uyakomokaho ukomeze kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi, harimo ihene, ingurube ndetse n'intama, aho byitabwaho bigabwa ibyo kurya bihagije kandi bigakorerwa isuku kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro ubikomokaho ugakomeza kwiyongera.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko bwinshi harimo imboga rwatsi, ibirungo, imbuto ndetse n'ibindi, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi bisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira imirire myiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi harimo imboga rwatsi, ibirungo, ndetse n'imbuto, aho abaturage babikorera bagashyiraho ifumbire mvaruganda, kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro ukagemurwa ku masoko mpuzamahanga, kandi bakisagurira ibyo kurya mu ngo zabo, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga rwatsi ndetse n'ibirungo, aho abaturage babikorera, bakabyitaho kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga, kandi na bo banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo ibigori, ibishyimbo, ibirayi ndetse n'ibijumba, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga, kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga rwatsi, ibirungo ndetse n'imbuto, aho abaturage babikorera babisasira kandi bakabivomerera, kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bazabone ibyo kurya mu ngo zabo, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, kandi banasagurire amasoko.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi ndetse n'ibirungo by'ubwoko bwinshi, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurira ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Akarima k'igikoni gakozwe mu mifuka ndetse no mu biti, aho abaturage bateramo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, nk'imboga rwatsi ndetse n'ibirungo, bakoresha mu ngo zabo kugira ngo bakomeze gufata indyo yuzuye bityo barwanye imirire mibi.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga rwatsi ndetse n'ibirungo, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko Mpuzamahanga kandi bisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi nk'amashu, imbuto ndetse n'ibirungo, aho byitabwaho n'abaturage babisasira kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo umusaruro uzagemurwe ku masoko mpuzamahanga, kandi bisagurire ibyo kurya mu ngo zabo, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo ibishyimbo, ibigori ndetse n'ibindi, aho abaturage babikorera kugira ngo bikure neza bityo bazabona ibyo kurya mu ngo zabo kandi banasagurire amasoko mpuzamahanga bityo bizamura ubukungu bw'Igihugu.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo ibigori, ibijumba ndetse n'ibirayi, aho abaturage babikorera kugira ngo bikomeze gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse na maremare, harimo ingurube, ihene, intama ndetse n'ibindi, aho byitabwaho n'abaturage bakabikorera isuku, bakabiha ibyo kurya bihagije kandi bakabikingira kugira ngo bikomeze gukura neza bidafite indwara kandi bifite ubuzima bwiza bityo umusaruro ubikomokaho ugakomeza kwiyongera.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira amatungo magufi ndetse na maremare, harimo ihene, intama ndetse n'inka, aho bari kuzitera inshinge kugira ngo bazirinde indwara zitandukanye bityo umusaruro w'ibiziturukaho ukomeze kwiyongera.

Urwuri aho bororera amatungo magufi ndetse n'amaremare, harimo inka, ihene, ndetse n'intama, aho abaturage babyitaho, bakabikorera isuku ihagije, kandi bakabihereza ibyo kurya, kugira ngo umusaruro ubikomokaho ukomeze kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, harimo inka, ihene, intama ndetse n'ibindi, aho byitabwaho n'abaturage bakabiha ibyo kurya bihagije, bakabikorera isuku kandi bakabitera inkingo kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro ubikomokaho ugakomeza kwiyongera.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira amatungo magufi ndetse n'amaremare, aho umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gukingira inka, ayitera urushinge kugira ngo ayirinde indwara zose zishobora gutuma umusaruro w'ibizikomokaho uba mukeya.